Umugore witangiye igitambaro mu mutwe, wambaye marinete, wambaye ishati y'amaboko magufiya y'umuhondo wambaye isaha, ufite indangururamajwi mu ntoki, ari gutanga imbwirwaruhamwe imbere yabantu bicaye mu ntebe z'umutuku, imbere yabo ku meza ha ashashweho igitambaro by'umweru hariho amazi apfundikiye.

Umugore wambaye umupira w'ubururu uriho amagambo yandikishijweho ibara ry'umweru wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse afite indangururamajwi mu ntoki imbere ye hari abantu.

Abantu benshi bahagaze bambaye imipira y'umuhondo, imbere yabo hari umugore wambaye umupira uciye amaboko, yambaye ipantaro yicaye mu tebe y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira uciye amaboko, wambaye ipantaro yicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira uciye amaboko, wambaye ipantaro, yicaye ku ntebe y'umukara.

Umugabo wambaye amarinete, ikote, ishati, karuvati, isaha, impeta, imbere ye hari indangururamajwi, ahagaze ku kabati kabajwe mu mbaho kandiditsweho inyuguti ziri mu ibara ry'ubururu zanditsweho RGB.

Abantu basa nkaho bari mu nama, bari kuganira ku ngingo runaka, bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi n'icupa ry'amazi ripfundikiye, n'impapuro n'ikaramu zo kwandikwaho ibiri kuvugirwa mu nama.

Umugabo wambaye amarinete wambaye umupira w'ubururu uciye amaboko uriho ibendera ry'igihugu ry'u rwanda wambaye isaha y'umukara wicaye muntebe y'umweru inyuma ye umugabo wambaye umupira wubururu wambaye ipantaro yumukara wicaye mu ntebe y'umweru iruhande rwe hari umugabo.

Inzu yubakishijwe amatafari ifite amadirishya n'imiryango akozwe mu byuma bifite irange ry'ubururu, imbere yayo hari umugore ufite indangururamajwi uri kureba abantu benshi bamwicaye imbere, bicaye mu mucaca bagiye bafitemo ibitiyo n'amajerekani.

Umugore wambaye imyenda y'umweru inyuranyoyemo uturongo tw'umukara, imbere ye hari indangururamajwi, ifashe ku kabati kabajijwe neza kamuri imbere kugira ngo kamufashe guterekaho ibipapuro bye, arimo arasomeramo, imbere ku kabati haditseho inyuguti eshatu arizo RBG mu nyuguti z'ubururu.

Abantu batatu bicaye harimo umugore wambaye ikanzu y'icyatsi irimo utubara tw'umweru iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira wumukara ufashe idangururamajwi mu ntoki , iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati irimo uturongo, imbere yabo kumeza hashashe ho igitambaro cy'umweru n'ducupa tw'amazi dutatu kamwe gahagaze utundi tubiri turyamye kumeza.

Umugabo wambaye ishati y'umweru wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ku meza hari icupa ry'amazi ripfundikiye n'ikayi, iruhande rwe hari umupolisi wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikiye.

Uri gutanga Imbwirwaruhame uri imbere yabantu, wambaye amalite, wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma yari icyapa kinini cyanditsweho RGB mu nyuguti z'ubururu.

Abantu bagera kuri bane bambaye hejuru impuzangano, imipira y'ubururu iriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda. Bose bicaye ku ntebe zitwikirije ibitambaro by'umuhondo, imbere yabo ku meza hatwikirije igitambaro cya kacyi. Hariho n'amacupa y'amazi.

Abantu bicaye ahantu hamwe basa nkaho bari mu inama bambaye impuzangano hejuru z'imipira y'ubururu n'amaboko magufi ya k'uruhande hariho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda bicaye mu ntebe zisheshweho ibitambaro by'amabara bibiri aribyo iby'umuhondo cyangwa se ishashweho icyumweru.

Umugabo wambaye amarinete, ishati y'umweru, imbere ku meza hari mudasobwa, amacupa y'amazi apfundikiye, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru karuvati y'umutuku, imbere ye hari ikayi.

Umugore witangiye igitambaro cy'umukara, wambaye ikanzu idozwe mu gitenge, ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari intebe y'umuhondo, n'ameza ariho icupa ry'amazi ripfundikiye.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu bwijimye wandikishijweho amagambo y'umweru n'imibare kuruhande hariho ibendera ry'igihugu cy'u rwanda bicaye mu ntebe y'umuhondo iruhande rwe hari icupa ry'amazi ripfundikiye.

Umugore wambaye amarinete, imyenda y'umutuku, iruhande rwe hari abagabo babiri, imbere yabo hari ameza ariho ibipapuro n'amacupa y'amazi apfundikiye.

Umugabo wambaye ikoti, ishati y'ubururu, ipantaro y'umweru ufite ikaramu mu ntoki, igipapuro mu ntoki, wicaye mu ntebe y'umukara ku ruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu ya oranje ufite ibipapuro mu ntoki.

Umugore wambaye amarinete, agapira, ikanzu n'inkweto z'umukara, imbere ye hari imbaga y'abantu imukurikiye, imbere y'ameza yabo hari ibitambaro by'roza, hari ibipapuro, hari telefone ngendanwa.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ahagaze mu mucaca, iruhande rwe hari abantu bicaye mu mucaca, iruhande rwabo hari ikigega cyagenewe amazi y'umureko gifite ibara ry'umukara.

Imbaga y'abantu ihagaze iri kwitegereza iyindi yicaye mu ihema ry'umweru n'ubururu, bari kubareba bahagaze ku muhanda w'igitaka ukikijwe n'ubusitani bugiye buteyemo ibiti bigufi bigufi bito.

Umugore wambaye ikanzu ya move, wambaye isaha ku kuboko uhagaze, imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikiye, iruhande rwe hari intebe iri m'ibara ry'umukara inyuma ye hari icyapa kinini cy'umweru kirimo amagambo yandikishijwe irangi ry'umukara.

Umugore ufite indangururamajwi ari imbere y'mbaga y'abantu bicaye mu ntebe zumuhondo, ameza afite igitambaro cy'umweru, imbere yabo hari amacupa, amazi apfundikiye.

Abantu bahagaze mu gacaca iruhande rwabo hari ihema rifite igitambaro ki kizengurutse cy'amabara atatu ubururu, umuhondo, icyatsi abicaye mu ihema bicaye ku ntebe z'umweru.

Umugore wambaye umupira amaboko magufi afashe mu ntoki indangururamajwi imbere ya umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare afashe ku ndangurura amajwi imbere ye hari abantu bambaye imipira y'ubururu bicaye mu ntebe z'umuhondo.

Umugore wambaye amarinete wicaye mu ntebe y'umukara imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikiye na mudasobwa ifunguye, ku ruhande rwe hari umugore wambaye amarinete wicaye mu ntebe y'umukara wambaye ikoti ry'ubururu na mudasobwa ifunze.

Umugabo wambaye marinete ishati y'ubururu, isaha y'umukara, ipantaro y'ubururu bwijimye arahagaze hanyuma inyuma ye hari intebe y'umukara akikijwe n'abagabo babiri bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo ku meza hari icupa ry'amazi.

Abantu bicaye ahantu hamwe basa nk'abari mu nama bari kuganira ku ngingo zitandukanye, bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, ateretseho uducupa tw'amazi, ateretsweho n'amakayi n'amakaramu, ubishaka arimo arandika ibiri kuvugirwa mu nama.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru n'umukara, ipantaro ya shokora, imbere ye hari ameza ariho igitambaro, ku meza hariho ikayi irambuye, iruhande rwe hari umugabo wicaye, imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikiye.

Umugore witangiye igitambaro mu mutwe wambaye amarinete afite irangi ku ruhande rw'umukara, wambaye imyenda y'umuhondo wambaye ufite indangururamajwi mu ntoki ahagaze imbere arimo aratanga imbwirwaruhame kubamumukurikiye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu n'icupa ry'amazi, imbere ye hari indangururamajwi, bicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugore wicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rw'uwo mugore hari umugabo wicaye ku ntebe y'umukara.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati y'ubururu yicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru, imbere ye hari indangururamajwi, wicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye ikote, ishati, wicaye mu ntebe y'umukara.

Umugore wambaye amarinete, wambaye imyenda y'ibara ry'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari intebe ziticayemo abantu, imbere ye hari abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, bari kubwirwa imbwirwaruhame.

Umugabo ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga uri gufotora umugabo umur'imbere, wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu n'amagambo y'umweru ufite indangururamajwi, imbere ye hari abandi bantu bicaye mu ntebe zifite ibitambaro by'umweru n'amacupa y'amazi imbere yabo.

Umugore wambaye amarineti, umupira w'umuhondo urimo uturongo tw'umweru, ufite ikaramu uri kwandika mu ikayi, wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikiye, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'ubururu wicaye mu ntebe y'umukara.

Abagore n'abagabo bahuriye ahantu hamwe, bakaba bari bari kuganira ku ngingo imwe, bakaba bahagaze abari kwifotoza ifoto basoje igikorwa bari barimo, aho inyuma yabo hari icyapa gisa nkaho kiri mu mabara y'umweru, ubururu.

Umugabo yambaye amarinete, ishati y'umweru, ikoti ry'umukarate imbere ye mudasobwa ku meza ari kuyikoresha iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'ikoti na we ari gukoresha mudasobwa ye.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu karuvati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru ishati ya kaki, imbere ye hari indangururamajwi, icupa ry'amazi ripfundikiye bicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye amarinete ikanzu wicaye ku ntebe y'umukara.

Abagore n'abagabo bavanze bicaye mu ihema risa umweru, bicaye ku ntebe zifite ibitambaro by'umweru, imbere yabo ku meza igitambaro gifite amabara atatu : ariryo ry'ubururu, umuhondo, icyatsi, hejuru ku meza hariho icupa ry'amazi, hariho n'indangururamajwi irambitse.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara, umupira w'umweru, imbere ye hari mudasobwa, indangururamajwi, yicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye ikoti ry'umutuku wijimye, umupira w'umweru, imbere ye hari indangururamajwi yicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye umupira w'ubururu wicaye mu ntebe y'umukara.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu, ipantaro y'umukara, inyuma ye mu ihema, harimo umugore wambaye umupira w'ubururu n'umukenyero, bicaye ku ntebe y'umweru.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'abantu, imbere yabo hari mudasobwa zifunguye n'amacupa y'amazi, bicaye ku ntebe z'umukara n'umweru.

Umugore wambaye marinete, wambaye umwenda ukozwe mu gitenge, bafashe indangururamajwi mu ntoki ze, imbere ye ku meza hashashweho igitambaro cy'umweru hari icupa ry'amazi ripfundikiye, ku ruhande rw'ayo hari ikayi yandikamo.

Abagabo bicaye ku ntebe zibajwe mu biti, imbere yabo hari ameza abajwe mu biti hari icupa ry'amazi ripfundikiye, imbere yayo hari umugabo ufashe urupapuro mu ntoki, iruhande rwe hari umugabo wambaye ingofero y'icyatsi, ishati y'amaboko magufi y'icyatsi, ipantaro y'icyatsi, imbere ye hari imbaga y'abantu bicaye.

Umugabo wambaye ikoti, wambaye ishati, wambaye ipantaro wicaye mu ntebe y'umweru iruhande rwe hari indangururamajwi iruhande rwayo hari icupa ry'amazi ihande rwiwe hari umugore wicaye wambaye nawe we imyenda y'umukara wivaye mu ntebe y'umweru ufite indangurumajwi kuhande rwe n'icupa ry'amazi.

Umugabo wambaye ishati irimo uturongo wambaye amarinete ufite indangururamajwi mu ntoki ahagaze imbere y'imbaga y'abantu ikurikiye ikiganiro arimo aratanga, inyuma ye hari abantu bicaye mu ihema ry'umweru harimo uwambaye impuzankano ya gisirikare, n'uwambaye impuzankano ya gipolisi bicaye mu ntebe y'ibara ry'icyatsi.

Umugabo wambaye marinete, wambaye ikoti ry'umuka, wambaye ishati yumweru, wambaye isaha y'umukara, imbere ye kumeza hari indangururamajwi, imbere ye icupa ry'amazi ripfundikiye, wicaye mu ntebe y'umukara.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye muri gahunda imwe, bambaye impuzankano isa bose hejuru y'umupira iciye amaboko magufiys y'umuhondo; hariho ibendera ry'u Rwanda, handitsweho amagambo mu ibara ry'umukara "urugerero".

Umugore wambaye amarinete umupira w'umutuku ikote ry'umutuku imbere ye hari impapuro ikayi indangurura majwi icupa ry'amazi ripfundikiye wicaye mu ntebe y'umukara iruhande rwe hari undi mugore.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, karuvati y'ubururu, ipantaro y'umukara mukandaro w'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki ari imbere y'abantu bicaye ku ntebe z'umuhondo imbere yabo hari amacupa y'amazi apfundikiye.

Umusore wicaye mu ntebe ifite igitambaro cy'umweru, wambaye umupira w'ubururu bwererutse ufashe ikaramu ari kwandika mu ikayi, imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikiye, iruhande rwe hari undi musore na we wicaye mu ntebe ifite igitambaro cy'umweru uri kwandika mu ikayi, imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikikiye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, imbere ye hari indangururamajwi, ufashe ikaramu mu ntoki, imbere ye ku meza hari ibipapuro bifunguye, imbere ye ku meza hari amazi apfundikiye, hari n'umutobe uba wenzwe muri pome.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati, yicaye mu ntebe y'umweru n'umuhondo iruhande rwe umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati, na karuvati, yicaye mu ntebe y'umweru n'umuhondo.

Imbaga y'abantu yahuriye ahantu hamwe iri munama iri kuganira ku ngingo runaka yose burumwe yicaye mu ntebe y'umukara imbere ye ari indangururamajwi iruhande rwayo hari icupa ry'amazi kandi iruhande rwaryo hari ikayi yo kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Umugore wambaye amarinete, ishati irimo amabara y'umutuku n'umukara, imbere ye kumeza hari ikayi, mudasobwa, indangururamajwi n'icupa ry'amazi ripfundikiye ku mpande ze hari abandi bantu.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu bwererutse y'amaboko maremare, ipantaro y'icyatsi cyijimye, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bari kumureba, bafite ibitambaro by'umutuku ku meza, ameza ariho amazi apfundikiye, ibipapuro.

Umugore wambaye marinete ufite igitambaro mu ijosi, wambaye ikoti, wicaye ku ntebe y'icyatsi, imbere ye hari ikayi, iruhande rwe hari umugabo wambaye marinete, wambaye umupira, wicaye mu ntebe y'icyatsi, imbere ye hari ikayi, icupa ry'amazi ripfundikiye.

Umugabo wambaye amarinete, ikoti ry'ubururu bwijimye, ishati y'ubururu bwerurutse wicaye mu ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu, iruhande rwe hari umugore wambaye ikote ry'ubururu bwerurutse.

Umugabo wambaye amarineti n'ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu bwerurutse yicaye mu ntebe y'umukara, ifite urupapuro imbere ye, kuruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru irimo imirongo yumukara n'indangururamajwi imbere ye, n'icupa ry'amazi; wicaye mu ntebe y'umukara.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu wicaye ku ntebe y'umukara. Imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa ifunguye, icupa ry'amazi ripfundikiye. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umukara wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye hari icupa ry'amazi.

Abagabo bari mu nama bicaye imbere y'ameza asa shokora, harimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, wicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hari umugabo wambaye amarinete, wambaye ikote n'umupira mu imbere, iruhande rwe hari umugabo ufashe icupa ry'amazi, wambaye isaha n'umupira w'umukara.

Imbaga y'abantu bicaye ahantu hamwe, bari kuganira ku ngingo imwe runaka, bamwe bicaye ku ntebe badafite ameza imbere yabo, abandi bicaye ku ntebe zifite ameza imbere yabo hariho amacupa y'amazi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bicaye mu ntebe z'umukara mbere baba bicaye inyuma bicaye mu ntebe z'ibara rya orange, ikigina aho basa nkaho bari kuganira ku ngingo runaka bagiye bafite indangururamajwi zibari imbere n'amacupa y'amazi abari imbere n'ibipapuro byo kwandikaho ibiri kuvugirwa mu nama.

Umugore wambaye umupira w'ubururu, ikoboyi y'ubururu, ikweto z'umweru, wicaye mu ntebe ifite ibara ry'ikijuju; inyuma yiwe hari ibara ry'ubururu bisa nkaho ari icyapa cy'irembo riri kwambarisha.

Umuhanda urimo imodokadoka na moto zitwawe n'abamotari, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iri kunyurwamo abanyamaguru, iruhande rwawo hari inzu z'ubucuruzi zubakishijwe n'ibyuma.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro n'ibirahure, iruhande rwayo hasi mu mbuga hari uburabyo buteyemo bushashe mu busitani bwiza, iruhande rwabwo hari inzira ikoreshwa n'abanyamaguru, iruhande rwayo hari aho abantu bakicara bagatuza batekanye.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwayo hari inzira ya ruhuru inyuramo amazi y'imvura, iruhande rwayo hari imodoka ifite irangi ry'umukara, ifite amapine y'umukara, ihagaze mu mbuga yubakishijwe amabuye, iruhande rwayo hari inzu z'ubucuruzi.

Ihema rifite amabara y'umweru na oranje, mo mbere harimo ameza afite ibitambaro by'umweru, iruhande rwaryo hari abantu, iruhande rwabo hari amazu yubakishijwe ibirahuri.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'ikijuju, inkweto z'umukara, aje kwaka serivise umugore wambaye marineti, umupira w'umweru mbere, imbere ye hari mudasobwa, inyuma ye hari igikoresho cy'ikoranabuhanga kinini cyane.

Umugabo, umugore bahagaze imbere y'umunara w'itumanaho, umugore yambaye ingofero y'ubwirinzi isa icyatsi, yambaye umupira w'umukara inyuma yawo yerekejeho ijiri isa y'umuhondo.

Abagore n'abagabo, bicaye mu ntebe zifite ibara ry'ubururu, bafite imbere yabo mudasobwa, bari kurebamo, n'uducupa tw'amazi, bari kureba imbere umugore ahagaze, usa nk'uri kubahereza imbwirwaruhame.

Imodoka y'ibara ry'ikijuju, ihagaze mu muhanda iruhande rwayo hari ipikipiki, ku ruhande rwayo hari inzu y'umweru ibirahure iruhande rwayo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye yifatishijwe n'inkingi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye ipantaro, ahagaze ari kureba muri mudasobwa, mudasobwa iri kurebwamo n'umugore wicaye, wambaye umupira w'umukara, ishati y'umweru, iruhande rwe hari mudasobwa ku meza.

mumotari wicaye kuri moto m'umuhanda iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara imbere yaho hari inzu isize irangi ry'ubururu n' numukara.

Umugabo wambaye ishati imbere ku meza hari mudasobwa iruhande rwe hari umugabo wambaye ingofero mu mutwe; wambaye ikoti imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'maboko maremare imbere ye hari mudasobwa.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo abamotari, batwaye ipikipiki, urimo n'imodoka. Iruhande rwawo, hari ibyuma birebire bifashe amatara y'umuhanda. Iruhande rwayo hari ibiti biteye mu busitani, bikikije umuhanda.

Imodoka y'umweru iri kugenda mumuhanda kuruhande hari imodoka y'umukara iparitse, imbere yayo hari inzu z'ubucuruzi kuruhande hari ipoto rirerire rifashe insinga ndetse rifashe n'ipoto ry'itara ryo mumuhanda.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe ibirahure bifite inkuta biyubatse, imbere yayo hari imodoka zihagaze imbere yayo hari itara rirerire ry'umuhanda, imbere yaryo hari umuhanda w'abanyamaguru.

Inkingi z'amapironi maremare aba agiye akozwe mu byuma bigiye bisobekeranyije kugira ngo bibashe gufata insinga ziba zitwaye umuriro ufite ingufu nyinshi, ugomba kunyura hejuru y'amazu y'abantu.

Amapikipiki akoreshwa umuriro w'amashanyarazi afite ibara ry'icyatsi, umukara akaba yaje aho bayahindurira, batiri zazo kugira ngo zikomeze zikore kuko zo ziba nta mazutu cyangwa esansi zinywa.

Inkingi y'ibyuma bisobekeranyije ndende ikunze kuba yitaruye abantu, yifashishwa mu gufata insinga kugira ngo zoherezwe ahandi hantu ziva hamwe zijya ahandi.

Inkingi y'ibyuma ihagaze ahantu hitaruye ahatuye abantu y'ibyuma bisobekeranyije ndende, iba ifashe insinga zitwaye umuriro mwinshi cyane w'amashanyarazi uwuvana ahantu hamwe uwohereza ahandi.

Umuhanda ushashwemo wubakishijwe amabuye iruhande rwawo hakaba hari ruhurura nayo yubakishijwe amabuye na sima, iruhande rwayo hakaba hari ubusitani buri imbere y'ibipangu birimo inzu zituwemo n'abantu, hanze yazo hakaba hari igiti kirekire gifashe insinga z'amashanyarazi, kizivana hamwe kizohereza ahandi.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu n'umumotari utwaye moto, ku ruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru uri kugendamo abanyamaguru, ku ruhande rwawo hari ibiti ndetse n'amapoto maremare y'amatara.

Imodoka zihagaze imbere y'inzu z'ubucuruzi, inyuma yazo hari umuhanda wa kaburimbo uri gukoreshwamo imodoka, abamotari batwaye ipikipiki iruhande rwabo hari ibiti birebire bifashe insinga z'amashanyarazi ziva hamwe zijya ahandi.

Ipoto rirerire rifashe insinga rizivana hamwe rizerekeza ahandi rikaba riri mu gipangu kirimo inzu ifite amabati akozwe mu buryo bugezweho bujya kumera nka amategura asa umutuku, iruhande rwayo hakaba hari indi nzu nayo yubakishijwe amabati.

Insinga z'amashanyarazi zivana umuriro hamwe ziwohereza ahandi, ziba zigomba kuba zifite inkingi ndende cyane y'ibyuma biba biteranyije iteye mu butaka.

Umuhanda uri kunyuramo abamotari batwaye ipikipiki uri kunyuramo abagabo bari gusunika igare uri kunyuramo abagenzi bagiye batandukanye umuhanda kandi uteyemo amapoto maremare yifashishwa mu gutambutsa insinga ziva hamwe zijya ahandi.

Umugabo utwaye igare mu muhanda, inyuma ye, umugabo uhetse igikapu mu mugongo, imbere ye, abagabo babiri bari gusunika igare mu muhanda, iruhande rwabo hari ruhurura yubakishijwe amabuye.

Ibendera ry'igihugu cy'u rwanda rigizwe n'amabara atatu umuhondo urimo izuba risa umuhondo munsi yaryo harimo umuhondo munsi y'umuhondo hari ibara ry'icyatsi imbere yaryo hari imodoka ifite amabara y'icyatsi n'umuhondo.

Inzu yubakishijwe amatafari, ifite amadirishya asizwe irangi ry'ubururu, iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo indabyo, iruhande rwabyo hari igiti kirekire gifashe insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'ibara ry'umukara, imbere yayo hari umugabo utwaye igare ku muhanda, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo ibiti, iruhande rwayo hari ibyuma birebire bifashe amatara y'umuhanda.

Muganga wambaye itaburiye y'umweru, ipantaro ya shokora, inkweto za shokora, imbere ye hari umurwayi arimo arasuzuma wicaye mu ntebe y'umukara, wambaye umupira w'umukara n'umweru, wambaye ipantaro y'umukara, imbere ye ku meza hari mudasobwa.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, umupira w'icyatsi urimo uturongo, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, inyuma ye hari imodoka y'umweru, inyuma yayo hari imodoka y'umutuku wijimye, bahagaze muri kaburimbo, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati n'ipantaro, uri kuzamuka mu muhanda.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'umutuku n'ubururu n'umukara, ihagaze mu mbuga yubakishijwe amabuye, inyuma yayo hari inzu yubakishijwe amatafari ifite amadirishya y'ibirahure ku ruhande hari abantu bari kugenda.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ipantaro y'umukara inkweto z'umukara, ufashe igipapuro mu ntoki inyuma ye hari intebe yo kwicaramo ikozwe mu byuma, imbere ye hari umugore wambaye igitenge witangiye igitenge mu mutwe.

Inzu yubakishijwe urukuta rusa umuhondo ifite imiryango ifite ibyuma bifite irangi ry'ikijuju, amakaro y'umukara agiye arimo utubara tw'umuhondo, agana mu nzu isa nk'aho irimo imiti.

Inzu yubakishijwe sima ifite irangi ry'umutuku wijimye, ifite inkuta z'umweru, ifite ikizimya umuriro, harimo abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zibajijwe mu bibaho n'ibyuma, aho n'itara ririmo riraka.

Imodoka y'umweru ikurikiwe n'imodoka y'umutuku wijimye, ikurikiwe n'imodoka y'icyatsi cyijimye, ikurikiwe n'imodoka y'umweru n'umukara, ikurikiwe n'imodoka y'umweru n'umukara, ikurikiwe n'imodoka ifite iba ry'ikijuju zihagaze mu mbuga hino yaho hagati hari ibendera ry' u Rwanda.

Imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye zihagaze mu muhanda w'igitaka. Iruhande rwazo hari icyapa gikoreshejwe mu byuma, gisa umweru, hasi yabyo hari agakuta gatoya kubabakishijwe amabuye na sima kafashe ku gipangu gikoreshejwe ibyuma hahagazeho ushinzwe kurinda icyo gipangu.

Imbaga y'abantu bicaye mu ntebe zibajwe mu biti n'ibyuma, imbere yabo hari inzu yubakishijwe amatafari n'amadirishya y'ibyuma hejuru hubakishijwe ibyuma n'amabati, inyuma yabo hari urukuta rwubakishijwe amabuye na sima.

Abagabo bambaye amataburiya y'umweru, bari kureba muri mudasobwa iri ku mezi ibari imbere, bicaye mu ntebe zifite amabara abiri, y'ubururu n'umukara, bakaba bari ahantu inzu yubakishijwe amakaro y'umweru ku gikuta, aho hasi hari intebe, hari amakaro ajya kugira ibara ry'ikijuju, hakaba hari n'ubwogero bw'intoki bugezweho bwa kizungu.

Umugabo wambaye amarinete, imyenda irimo umukara n'umweru, imbere ye ku meza hari mudasobwa, iruhande rwe umugabo wambaye imyenda y'iroza, imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe umugabo wambaye imyenda y'umukara n'umweru, imbere ye hari ikayi.

Umugabo wambaye imyenda y’umukara n’umweru, ufashe ikayi mu ntoki. Iruhande rwe umugabo wambaye imyenda y'iroza, iruhande rwe hari umugore wambaye imyenda y’umukara n’umweru ufashe ibipapuro mu ntoki. Iruhande rwe hari umugore wicaye mu ntebe wambaye imyenda y’umukara n’umweru uri kureba mubitabo biri ku meza.

Umugore wambaye imyend ifite ibara ry'umukara n'umweru, imbere ye ku meza hari ibipapuro, iruhande rwe umugabo wambaye amarinete, imyenda ifite ibara ry'umukara n'umweru, imbere ye ku meza hari impapuro n'icupa ry'amazi.

Umugore wambaye ingofero y'umukara izengurukijwemo n'akaziga k'umuhondo wambaye marinete, ikoti ry'umutuku umupira w'umweru n'imbere ye kumeza hariho indangurura majwi ifasheho.

Umugabo wambaye ingofero mu mutwe wambaye imyenda isa n'iyabacamanza, afashe ku ibendera rigizwe n'amabara atatu, umuhondo, icyatsi, ubururu ariryo bendera ry'u Rwanda arimo ararahira.

Umugabo wambaye amarinete, wambaye imyenda irimo ibara ry'umweru n'umukara, imbere ye hari ibipapuro, ufashe ikaramu mu ntoki, iruhande rwe umugabo wambaye amarinete, ishati y'umweru, karuvati n'ikoti.

Umugabo wambaye marinete, wambaye ikanzu irimo amabara y'umutuku, umukara, umweru mo imbere yambariye ishati na karuvati, usa nkaho ari umucamanza w'urukiko.

Abagabo babiri bambaye impuzangano ya gipolisi y'u Rwanda, bafashe mo hagati umugabo wambaye amarinete ikoti ry'umukara, inyuma ye hari abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara, ishati y'umweru na karuvati isa umukara.

Umugabo wambaye amarinette uhagaze yambaye imyenda irimo ibara ry'umukara n'umweru, imbere hari mudasobwa n'ibitabo n'icupa ry'amazi, iruhande rwe hari umugore wambaye imyenda y'iroza, mu ruhande rundi hari umugore wambaye na we imyenda y'iroza, ku ruhande rwe na we hari undi mugabo wambaye imyenda irimo ibara ry'umukara n'umweru.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara irimo ibara ry'umweru usa uhagarariye mu mategeko, umugabo umwe urimo hagati, hagati yiwe n'undi mugabo, nawe wambaye imyenda y'umukara irimo ibara ry'umweru, inyuma yabo hari intebe ibajwe mu biti, ikozwe ku byuma yo kwicaraho.

Umugabo wambaye ishati iciye amaboko y'iroza, ikabutura y'iroza, inkweto z'umukara isa nk'impuzangano y'abagororwa, iruhande rwe hari umugabo wambaye igikanzu cy'ibara ry'umukara, ipantaro y'ibara ry'ubururu usa nkaho ari umucamanza cyangwa umuburanira mu mategeko bahagaze imbere y'ababuburanisha.

Umugabo wambaye amarinete, ikanzu y'umukara ifite mo ibara ry'umweru n'ishati mo imbere wicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari umugore wambaye amarinete wambaye amapingu mu ntoki, wambaye n'ikanzu y'iroza.

Imodoka y'umweru iri mu muhanda w'igitaka, imbere yayo hari abagabo n'abagore bambaye imyenda y'iroza bahagaze munsi y'igiti, imbere yabo hari umugabo n'umugore bicaye ku ntebe.

Imodoka yagenewe gutwara abagororwa ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, irafunguye abagororwa barimo baravamo bisa nk'aho bageze iyo bajya, hagati yabo hari ushinzwe gucunga abagororwa.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara ifitemo umurongo w'umweru, ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi, imbere ye hahagaze abagabo bambaye imyenda y'iroza.

Imodoka y'umweru n'umukara yanditseho police ihagaze ku muhanda wubakishijwe n'amabuye, imbere yayo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara inkweto z'umukara uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru.

Abamotari bari ku mapikipiki mu muhanda wa kaburimbo, uruhande rwa wo hari umuhanda wagenewe kunyurwamo abanyamaguru, hahagazemo umugabo wambaye impuzankano ya gipolisi y'umuhanda ishinzwe kugenzura niba amategeko y'umuhanda arimo arakurikizwa.

Umugore wambaye umupira n'igitenge ufite isakoshi y'umukara ari kugenda mumuhanda kuruhande rwe hari inzu ifite irangi ry'umweru amabati y'ubururu mu mbuga y'iyo nzu harimo idarapo ry'u Rwanda.

Umugabo wambaye impuzangano ya gipolisi y'u Rwanda yo mu muhanda, akaba ahagaze imbere y'abamotari batwaye abagenzi kuri moto, imbere y'imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iruhande rwayo hakaba hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hakaba hari ibiti bigiye bikikije umuhanda.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, inkweto z'umukara iruhande rwe hari imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara n'umuhondo, imbere ye hari igiti imbere yacyo hari imodoka ifite ibara ry'umukara n'umuhondo n'umweru.

Umuhanda w'abanyamaguru uhagazemo umuntu wambaye impuzankano ya gipolisi yo mu muhanda ishinzwe kureba niba amategeko y'umuhanda arimo arakurikizwa, inyuma yiwe hari inzu z'ubucuruzi.

Ushinzwe umutekano wo mu muhanda, umupolisi ahagaze iruhande rw'imodoka, yambaye ijire irimo amabara y'umukara, iriho ibara ry'ubururu, ingofero iri ikirangantego cya Polisi.

Imodoka ifite ibara ry'umukara n'umweru, ifite amapine y'ibara ry'umukara, inyuma yayo hari abamotari batwaye amapikipiki mu muhanda, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwawo hari amatara maremare y'umuhanda.

Abagabo babiri bambaye impuzankano y'abazimya inkongi y'umuriro, bafashe umuyoboro w'amazi uri kohereza amazi afite ingufu basa nkaho bari kuyohereza ahantu hari inkongi y'umuriro, inyuma yabo hakaba hari imodoka yabazimya umuriro ifite ibara ry'umutuku n'umukara.

Umugabo wambaye ikoti, ishati na karuvati wicaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari indangururamajwi ku meza, iruhande rwe umugabo wambaye ikoti, ishati na karuvati wicaye mu ntebe y'umukara imbere ye hari indangururamajwi.

Umugabo uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi cyane, ahagaze imbere ye hari indangururamajwi, imbere ye hari icupa ry'amazi, yambaye ishati y'umweru, ikoti rifite ibara ry'ikijuju n'ipantaro ifite ibara ry'ikijuju.

Ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda kiri inyuma y'umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvate, wambaye n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari ushinzwe umutekano, umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi y'u Rwanda.

Umugabo wambaye umupira uriho amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, wambaye umukandara w'umukara, ipantaro y'umukara, azamuye amaboko afashe ifoto iriho umugabo wambaye amarinete, ishati y'umweru, ikote ry'umukara na karuvate y'umukara.

Umugabo ufite indangururamajwi uhagaze mu muhanda w'igitaka, akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu bari kumureba bamwitegereza bumva ibyo avuga, bakaba bahagaze imbere y'inzu isizwe irangi ry'ubururu.

Umugore wambaye amarinete, wambaye amaherena, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, imbere ye ku meza hari indangururamajwi, iruhande rwayo hari icupa rya'amazi yapfundikiye wicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari undi mugore wicaye ku ntebe y'umukara nawe wambaye amarinete, iruhande rwiwe hari umugabo wicaye wambaye ikoti ry'ubururu, wicaye ku ntebe y'umukara.

Umugabo wambaye ikoti, ishati, karuvati wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye indangururamajwi, iruhande rwayo hari icupa ry'amazi ripfundikiye, iruhande rwayo hari ikayi yo kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Umugabo wambaye karuvati y'umukara, ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'indangururamajwi, imbere ye hari icyapa gisa nk'ikiriho ifoto yiwe kiri kumwamamaza, cyanditseho ati "indi ntambwe" inyuma ye hakaba hari abantu bahicaye bicaye mu ntebe z'umweru.

Abagore bambaye imkenyero iri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi, bari imbere y'ihema ry'umweru rizengurukijeho n'ibitambaro bifite amabara y'umuhondo n'icyatsi, ririmo intebe z'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama abantu bari kuganira ku ngingo zitandukanye, bo bicaye ku ntebe z'umukara, bafite mudasobwa imbere yabo, bakagira n'indangururamajwi imbere yabo iruhande rwayo hari icupa ry'amazi ripfundikiye.

Umugabo wambaye ikoti rya shokora ishati irimo imirongo y'ubururu, ifite ibara ry'umweru, imbere hari indangururamajwi, iruhande rwe hari umugabo wicaye mu ntebe y'umukara, wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati irimo amabara ivangiye, imbere ye hari icupa ry'amazi ripfundikiye.

Ibendera ry'ubururu, umuhondo, icyatsi iryo bedera ry'u Rwanda, iruhande rwaryo hari ibendera ry'ikirangantego cya leta y'u Rwanda imbere yaryo hari umugore wambaye amarinete, ikoti ry'umuhondo, umupira w'umukara wicaye ku intebe y'umukara.

Umugabo wambaye ikote, karavate, ishati, imbere ye hari icupa ry'amazi, mudasobwa, indangururamajwi, bicaye mu ntebe y'umukara, inyuma ye hari umugabo n'umugore.

Abagore bicaye mu ntebe z'umweru, bakenyeye imikenyero y'umutuku n'ubururu, bambariyemo imipira y'umweru, bakenyeye urugori mu mutwe, imbere yabo hari amacupa y'amazi apfundikiye.

Umugabo wambaye amarinete wambaye ikote ry'ubururu ishati y'umweru na karuvati wicaye mu ntebe y'ubururu ari mu nama yateraniyemo abagabo n'abagore bari kuganira ku ngingo runaka, aho iruhande rwe hari undi mugabo nawe wambaye ikote na karuvati n'ishati nawe wicaye mu ntebe y'ubururu.

Imbaga y'abantu bicaye bafite indangururamajwi imbere yabo, bafite amacupa y'amazi imbere yabo, bicaye ku ntebe z'umukara, bafite amatara magufi magufi yifashisha kumurikira ibyo areba imbere ye.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'umukara, wambaye isaha, wicaye mu ntebe y'umukara, inyuma ye hari ameza ariho icupa ry'amazi ripfundikiye.

Umugabo wambaye amarinete yibara ry'umukara, wambaye ikoti ryibara ry'ubururu, wambaye ishati yibara ry'umweru, wambaye karuvati y'ibara ry'ubururu, imbere ye hari indangururamajwi.

Umugore wambaye umukenyero wambaye umupira w'umweru yicaye ku ntebe y yumukara mbere kumeza hari icupa ry'amazi ripfundikiye na mudasobwa ifunguye iruhande rwe, hakaba hari mugabo wambaye ikoti ry'umukara yicaye mu ntebe y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu, harimo n'ikamyo irimo iragenda n'imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange n'abamotari batwaye abagenzi ku ipikipiki, iruhande rw'umuhanda hari umuhanda wagenewe abanyamaguru.

Umumotari uri mu muhanda uhagaze kuruhande, mo hagati mu muhanda harimo igikamyo cy'umuhondo n'umukara, kuruhande rw'igikamyo, hari ubusitani, n'ibiti, n'umugabo urimo uramanuka ujya mu muhanda.

Abamotari bari kuri moto mu muhanda iruhande rwabo hari umuhanda w'abanyamaguru urimo itara ry'umuhanda iruhande rwaryo hari imodoka zihagaze iruhande rwazo hari ibiti bikikije umuhanda.

Umunyonzi utwaye igare iruhande rwe hari umumotari utwaye ipikipiki, iruhande rwiwe har'imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo nini y'ibara ry'umweru, umukara ishashweho ishashi y'ibara ry'ikigina iruhande rwayo hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru ,iruhande rwayo hakaba har'ibiti bigiye bikikije umuhanda.

Imodoka rusange itwara abagenzi y' umweru n'umukara, ifite amapine y'ibara ry'umukara iri mu muhanda, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima.

Abamotari batwaye amapikipiki imbere yabo hari imodoka ifite ibara ry'ubururu, umukara umuhondo, umweru ifite ibara ry'amapine y'umukara iri muri kaburimbo iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru iruhande rwawo hari ibiti.

Umuhanda urimo gukorerwaho na motari utwaye umugenzi ku ipikipiki; iruhande rwayo haboneka imodoka y’umukara. Ku rundi ruhande, hari ubusitani buteye mu muhanda burimo igiti gikingira indi modoka iri kujya mu kindi cyerekezo. Byongeyeho, hari imirajya iruhan rwayo, ndetse n’inzira y’abanyamaguru.

hari batway'abagenzi ku ku ipiki bari mu muhanda urimo imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo hifashishwa mu kubaka aho ivanga umucanga na sima n'amazi kabiri y'umuhanda wa kaburimbo iruhande rwabo hari inzira y'abanyamaguru iruhande rwayo hari imodoka zihagaze iruhande rwazo ari inzu y'ubucuruzi Hari abatwaye abagenzi ku ipikipiki bari mu muhanda urimo imodika yo mu bwoko bw'ikamyo yifashishwa mu kubaka aho ivanga umucanga na sima n'amazi, ikaba iri mu muhanda wa kaburimbo. Iruhande rwabo hari inzira y'abanyamaguru iruhande rwayo hari imodoka zihagaze iruhande rwazo hari inzu y'ubucuruzi.

Umu motari atwaye umugenzi ku ipikipiki, mu muhanda iruhande rwayo harimo y'umweru n'umukara iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru iruhande rwayo hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka y'umweru n'umukara utwara abagenzi mu buryo bwa rusange, imbere yayo hari umumotari utwaye moto iriho umugenzi, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe amabuye.

Imodoka y'umutuku n'umukara, iri muhanda yikoreye umucanga iruhande rwayo hari umuntu utwaye igare, iruhande rwaryo hari umuhanda w'abanyamaguru uri kugendwamo n'umuntu, iruhande rwawo hari ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka zo mu bwoko bw'ikamyo ya mbere ya toyota zitwikiriye ishashi y'umukara kabiri iri iruhande bwoko bwa mitsubishi ifite ibara ry'umweru, ubururu n'umukara ikaba yikoreye imifuka.

Imodoka itwara abantu mu buryo rusange, ifite amabara y'umweru, ubururu na move, amapine y'umukara, ni muri kaburimbo iruhande rwayo hari indi modoka itwara abagenzi mu buryo rusange ifite ibara ry'umweru n'umukara.

Ikamyo y'umweru n'umukara y'ubwikorezi iri mu muhanda iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru abanyamaguru bari kugendamo iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe amabuye inyuramo amazi y'imvura.

Imodoka y'umweru n'umukara, iri mu muhanda, iruhande rwayo hari umumotari utwaye ipikipiki, iruhande rw'umuhanda hari icyuma kirekire gifashe itara ry'umuhanda, inyuma yacyo hari inzu y'ubucuruzi.

Imodoka y'umuhondo; umukara; umweru ifite amapine ibara ry'umukara mbere yayo hari umuntu utwaye igare muri kaburimbo, iruhande rwayo hari umuhanda wa banyamaguru wubakishijwe amabuye.

Umuhanda urimo abamotari batwaye moto n'abagenzi n'igikamyo cy'umutuku n'umukara cyikoreye umucanga, ku ruhande rwacyo hari ruhurura yubakishijwe amabuye itwara amazi y'imvura.

Imodoka rusange y'umweru n'umukara n'icyatsi, itwaye abagenzi, iri mu muhanda, ku ruhande hari ruhurura yubakishijwe amabuye, itwara amazi y'imvura.

Ikinyabiziga cy'amapine atatu gisinzwe irangi ry'ubururu kiri mu muhanda wa kaburimbo, imbere yacyo hari igikamyo cy'umukara n'umutuku cyikoreye umucanga, iruhande rw'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'umuhondo, ifite amapine y'umukara, iruhande rwayo hari abamotari batwaye abagenzi ku mapikipiki bari mu muhanda, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru yo gukoreshwamo umuntu, iruhande rwayo hari ibiti biteye bigiye bikikije umuhanda.

Umuhanda urimo urakoshwa n'abantu bagiye batandukanye wa kaburimbo, iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe amabuye manini na sima, hejuru yayo hari abagabo bari kunyura mu nzira isa nk'aho ari akayira gatoya ihari.

Umugabo utwaye igikamyo cy'umweru n'umukara kiri kugenda mumuhanda kuruhande hari umuhanda wabanyamaguru hari icyuma kirekire cy'itara ryo mu muhanda n'ibiti biteye iruhande rwumuhanda.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'ikamyo, ifite ibara ry'umweru, umukara igenda muri kaburimbo inyuma yayo, hari umunyonzi uri gusunika igare, iruhande rwa kaburimbo hari umuhanda wagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, urimo akoreshwa abantu iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe n'amabuye na sima.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ubururu, inkweto za shokora, wikoreye ku mutwe, amarinete, ikofi, amasaha, ku ruhande rwe hari imodoka itwara abagenzi rusange.

Umugabo utwaye igare mu muhanda, ageza aho abanyamaguru bambukira, ku ruhande rwe hari igikamyo cy'umutuku n'umukara, kikoreye umucanga, ku ruhande rwacyo hari umumotari utwaye moto, ufite umugenzi.

Umugabo uri gusunika igare ririho umuzigo uziritse, muri kaburimbo, iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima inyuramo amazi y'imvura.

Ikamyo ifite ibara ry'umweru n'umukara, ifite ibara ry'amapine ry'umukara, iri kugenda muri kaburimbo. inyuma yayo hari moto, iruhande rw'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru wubakishijwe amabuye, iruhande rwawo hari ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibyuma birebire bifasha amatara y'umuhanda bishinze mu busitani, imbere yabyo hari indabyo, inyuma yabyo ari ibiti.

Imodoka rusange y'umweru n'umukara itwara abagenzi iri mu muhanda, imbere yayo hari umumotari utwaye moto, iruhande hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ruhurura yubakishijwe n'amabuye.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'ikamyo y'ibara ry'umweru n'icyatsi, ifite amapine asa umukara, Yikoreye amakara atwikirijweho ishashi n'imikobakoba y'umukara, ku ruhande rwayo hari ruhurura, iruhande rwayo ku rundi hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda urimo umumotari utwaye moto, inyuma ye hari imodoka y'umweru n'umukara yikoreye imizigo, imbere yayo hari imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'umweru na oranje n'umukara, iruhande rwayo hari inzu z'ubucuruzi.

Imodoka y'ubwikorezi yo mu bwoko bw'ikamyo iri muri kaburimbo igenda harimo n'izindi modoka, iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru uri gukoreshwa n'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo ibiti, buteyemo n'ibyuma birebire biba bifashe amatara y'umuhanda.

Ikinyabiziga cy'amapine atatu cy'ibara ry'ubururu n'umukara gitwikiriye ishashi y'umukara kiri kugenda muri kaburimbo, iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru hahagazemo abantu iruhande rwayo hari ubusitani, iruhande rwayo hari ibiti bikikije umuhanda.

Igikamyo cy'umweru n'umukara gitwikiriye kiri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru uwukikije, iruhande rwawo hari ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka y'umweru n'umutuku yikoreye imizigo, imbere yayo hari imodoka y'umweru n'umukara, ifite amapine y'ibara ry'umukara , iri muri kaburimbo iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru, iri kugengwamo n'abanyamaguru ikikijwe n'inkingi z'ibyuma.

Imodoka rusange itwara abagenzi mu buryo bwa rusange irimo abagenzi, ifite ibara ry'umweru, ifite ibara ry'icyatsi cyijimye, ifite ibara ry'ubururu bwijimye, ifite ibara ry'icyatsi cyerurutse, igeze mu muhanda aho abanyamaguru bambukira.

Umunyonzi utwaye igare ririho abagenzi, iruhande rwe hari ikinyabiziga cy'amapine atatu gifite ibara ry'ubururu n'umukara gitwikiriye ishashi y'umukara, biri mu muhanda iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru iri kugendwamo n'umugabo.

Imodoka nini zo mu bwoko bw'ibikamyo, abamotari batwaye abagenzi ku ipikipiki, imodoka zisanzwe ziri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwazo hari umuhanda w'abanyamaguru.

Ikinyabiziga cy'amapine atatu gifite ibara ry'umuhondo n'umukara, imbere yacyo hari umumotari utwara ipikipiki, iruhande rwayo hari imodoka yibara ry'ikijuju iri muri kaburimbo, iruhande rwayo hari inzu z'ubucuruzi.

Imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda irimo umumotari utwaye umugenzi kuri moto, ku ruhande rwe hari imodoka y'umweru, ku ruhande rwayo hari imodoka rusange itwara abagenzi y'ubururu, umweru, n'umukara.

Imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara, amapine afite ibara ry'umukara, umuhanda; iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru, hari umugabo uri kuwugendamo, iruhande rwawo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima.

Imodoka itwara abantu muburyo rusange, ibara ry'umukara, umweru, icyatsi n'ubururu, biri mumuhanda. imbere hari umunyonzi utwaye igare, iruhande hari umuhanda wabanyamaguru.

Imodoka y’umutuku n'umukara yikoreye umucanga ifite amapine asa umukara, iri muri kaburimbo iruhande rwayo hari inzira y’abanyamaguru, iruhande rwayo hari ruhurura yubakishijwe amabuye na sima.

Imodoka rusange itwara abagenzi y'umweru, umukara, ubururu n'icyatsi iri mu muhanda, inyuma yayo hari umunyonzi utwaye igare, atwaye umugenzi n'umumotari utwaye moto.

umugore witangiye igitambaro mu mutwe, wambaye umupira ukenyeye igitenge, iruhande rwe hari imodoka y'umukara, ku ruhande rwayo hari imodoka y'umweru n'umukara n'umuhondo, ikikijweho n'ishashi y'ubururu.

Abamotari babiri batwaye abagenzi ku mapikipiki bari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, ihande rwayo hari icyuma kirekire gifashe itara ry'umuhanda, iruhande rwacyo hari ubusitani buteyemo ibiti, inyuma yabyo hari urukuta rw'umweru.

Imodoka y'ibara ry'ubururu, umweru, umukara, itwara abagenzi mu buryo rusange mu muhanda. Umuhanda uhagazemo abantu bari kuwugendamo, iruhande rwabo hari amapironi maremare atwara insinga z'amashanyarazi.

Imodoka rusange itwaye abagenzi mu buryo bwa rusange, iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru, ihagazemo abantu, iruhande rwayo hari amatara y'umuhanda maremare.

Umuhanda, abamotari batwaye abagenzi ku pikipiki, ibinyabiziga by'amapine atatu bifite ibara ry'icyatsi kijimye biri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu y'umweru n'umukara ifite amapine y'umukara iri mu muhanda iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru iri kugendwamo n'abanyamaguru iruhande rwayo hari icyapa gifite umuzenguruko w'uruziga cyo mu muhanda iruhande rwacyo hari inzu z'ubucuruzi.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, n'umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari igice kimwe cy'imodoka ya rukururana, iruhande rwayo mu nzira y'abanyamaguru hari umuyozi urimo arasunika igare ririho umufuka munini urimo ibintu bipfundikiye.

Abamotari bari mu muhanda bicaye kuri moto, imbere yabo hari inzu z'ubucuruzi inyuma yabo hari umuhanda w'abanyamaguru wubakishijwe amabuye uri kugendwamo n'abanyamaguru.

Umumotari wambaye ikoti ry'umutuku, ipantaro y'umuhondo, utwaye moto, uri mu muhanda ukikijwe n'umuhanda w'abanyamaguru ufite ku ruhande ubusitani n'ibiti n'ibyuma birebire by'amatara by'umweru n'ubururu.

Umugabo uhagaze mu muhanda iruhande rwe hari umumotari utwaye ipikipiki ikoresha amashanyarazi iruhande rwe hari ibinyabiziga by'amapine atatu biri mu ibara ry'ubururu, imbere ye hari ubwoko bw'imodoka nini bakunda kwita amakamyo y'umweru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo rusange ifite amabara ya oranje, umweru, umukara iri muri kaburimbo iruhande rwayo hari inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru iri gukoreshwa n'umuntu, iruhande rwayo rhari ruhurura yubakishijwe sima yagenewe kunyurwamo n'amazi y'imvura.

Umuhanda urimo imodoka, ku ruhande hari inzu z'ubucuruzi ,imbere yazo hari amapoto y'amashanyarazi, umuhanda w'abanyamaguru, hari umugabo wambaye ishati ya kacyi, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Umuhanda, kaburimbo, iruhande hari abagenzi, abamotari bari ku mapikipiki yabo, inyuma yabo hari inzu z'ubucuruzi, inyuma yazo hari umusozi uteye ibiti.

Imodoka y'umukara n'umweru rusange itwara abagenzi iri mu muhanda, ku ruhande rwayo hari umugabo wambaye ingofero, umupira w'ubururu, ipantaro y'icyatsi n'inkweto z'umweru, ufite n'indobo irimo ubunyobwa.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urakoreshwa n'imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, ifite ibara ry'ubururu n'umukara, ifite ibyuma biyishamikiyeho, bifite irangi ry'umweru, harimo umugabo uhagaze ufashe ibyo imodoka yikoreye.

Umuhanda urimo igikamyo cy'umweru n'umukara gitwikirijwe ishashi y'ubururu n'umweru , iruhande rwacyo hari imodoka, iruhande rwayo hari umugabo utwaye igare ririho umufuka, iruhande rw'umuhanda hari umuhanda abanyamaguru.

Imodoka nini yo mu bwoko bw'ikamyo ifite ibara ry'umukara n'umweru, ifite ishashi iriho imigozi ipfundikiye ibyo yikoreye y'ubururu. Ikaba iri muri kaburimbo imbere yayo hari umumotari utwaye ipikipiki, iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru.

Imodoka itwara abantu mu buryo rusange ifite amabara y'umweru, umukara n'icyatsi, itwaye abagenzi mu muhanda, iruhande rwawo hari umuhanda w'amayamaguru, iruhande rwawo ibiti bikikije umuhanda.

Umumotari wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara utwaye moto iriho umugenzi ku ruhande rwe hari ubusitani burimo indabyo n'ibiti birebire n'imbago z'umuhanda zikozwe mu byuma n'amapoto maremare y'amatara y'umuhanda.

Umuhanda urimo abamotari batwaye ipikipiki ziriho abagenzi iruhande rwabo hari imodoka nini yo mu bwoko bw'ikamyo ibara ry'ubururu iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru uri gukoreshwamo n'abantu.

Umugabo uhetse igikapu mu mugongo cy'ibara ry'umukara utwaye igare. Iruhande rwe umugabo utwaye igare mu muhanda. Iruhande rwabo hari imodoka zihagaze kuruhande. Imbere yazo hari inzu z'ubucuruzi.

Imodoka, ikamyo y'umweru n'umukara, yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, uri mu muhanda iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, uri kugendwamo n'abanyamaguru, iruhande rwawo ukikijwe n'ibiti.

Imodoka ifite amabara y'icyatsi, umweru, umukara iri muri kaburimbo iruhande rwayo imodoka ifite ibara ry'umukara, iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru urimo abanyamaguru iruhande rwabo hari ibiti.

Imodoka y'ibara ry'umweru, umutuku, umuhondo, umukara, ifite amapine y'ibara ry'umukara iri muri kaburimbo irimo umu motari utwaye umugenzi ku ipikipiki, iruhande rwe hari imodoka y'ibara ry'umutuku wijimye nayo iri muri uwo muhanda, iruhande rwawo hari inzira igenewe abanyamaguru.

Umugabo wambaye itaburiya y'umuhondo, ipantaro y'ubururu, inkweto y'umweru yicaye ku kinyabiziga kigizwe n'amapine atatu, gifite ibara ry'ubururu n'umukara ritwikirije ishashi y'umukara inyuma yacyo hari imodoka zihagaze.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodokadoka, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru ugendwamo n'abanyamaguru, iruhande rwawo hari amapoto maremare n'amatara y'umuhanda, iruhande rwawo hari ibiti.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange n'igikamyo biri mu muhanda kaburimbo, iruhande hari umuhanda w'abanyamaguru urimo umugabo wambaye ishati, ipantaro y'umukara.

Imodoka rusange itwara abagenzi ifite ibara ry'umweru, n'umukara irimo umugezi harimo intebe z'umutuku, iri mumuhanda kuruhande hari ruhurura itwara amazi y'imvura.

Umumotari atwaye umugenzi kuri moto ageza aho abanyamaguru bambukira muri kaburimbo iruhande rwayo hari umuhanda w'abanyamaguru iruhande rwawo hari itara ry'icyuma rirerire ry'umuhanda iruhande rwaryo hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuntu wunamye, wambaye umupira w'amaboko magufi, ikabutura, amasogisi, iruhande rwe hari ibikapu, ari ku kibuga gikinirwaho umupira w'amaguru, imbere ye hari abantu bari mu kibuga.

Umupaka wa Kongo n'u Rwanda, ukoreshwa wambukiranya igi kimwe ujya mu kindi, aho ugaragaza icyapa hejuru cyanditse ati demokaratike repubulika ovu kongo bisobanura leta ya demokarasi ya congo.

Umuhanda urimo imodoka n'umumotari uri kuri moto, ku ruhande hari ibyuma birebire by'amatara y'umuhanda bishinze mu busitani bisa umweru, ku ruhande hari inzu z'ubucuruzi n'umuhanda w'abanyamaguru, abanyamaguru barimo baragendamo.

Icyapa gifite ishusho y'umuzenguruko w'ikiziga, kiba kiri mu muhanda gikoreshwa cyerekana y'uko imbere ari ugukata ibumoso bwawe. Kiba kizengurukijwemo n'ibara ry'umutuku, gifitemo imbere ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara. Ryerekana icyerekezo cyo gukatamo.

Ipironi ry' icyuma rifashe ibyapa bibiri byerekana imihanda nimero yazo, harimo icyapa cyo hejuru kiriho inyuguti ya k n gatatu a f cyo munsi hariho k na gatatu zeru z,t.

Icyapa cya mpande eshatu, mu mpande hasizwe ibara ry'umutuku, mo hagati harimo ibara ry'umweru, amagambo yanditsemo, mo hagati yandikishijwe ibara ry'umukara, icyapa kiri mu busitani mo imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amarangi y'umweru bisobanura abanyamaguru bambukira, iruhande rwawo, hari umuhanda wagenewe kugenderwamo n'abanyamaguru, iruhande rwawo, hari ubusitani buteyemo ibyapa bigiye bitandukanye by'umuhanda.

Icyapa cy'umuhanda cya mpande eshatu, kizengurukijwe n'ibara ry'umutuku, no hagati ibara ry'umweru ririmo ikirango kiri mu ibara ry'umukara, iruhande rwacyo hari inzu y'ubucuruzi yubakishijwe, amakaro ifite urukuta rw'icyatsi, icuruza imiti.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kiba kimanitse ku cyuma gifite mpande eshatu, gifite mu muzenguruko irangi risizwemo ry'umutuku, mo hagati hasizwemo irangi ry'umweru; icyerekana icyo icyapa kivuze ari ikirango gishyizwe mu irangi ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo ibiti, buteyemo n'icyuma kirekire kiba gifashe itara ry'umuhanda, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iri gukoresha n'umuyamaguru, iiruhande rwawo haba hateye ibiti.

Icyapa cya mpande eshatu cy'umuhanda, mu mpande gifite ibara ry'umutuku, mo hagati harimo ibara ry'umweru, n'umukara, ibara ry'umukara rifite ishusho ryerekana umuntu ufashe undi muntu, bari kugenda.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru irimo irakoreshwa n'umunyamaguru, iruhande rwawo hari icyapa cy'umuhanda kiri ku cyuma, biri bibiri bigerekeranye bya mpandeshatu.

Umuhanda wa kaburimbo uhagazemo amagare, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamagu, iruhande rwawo ukikijwe n'ibiti birebire, ubusitani, indabyo ntoya uhagazemo abantu.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kigizwe n'amabara atatu, umweru, umukara, umutuku aho aba ari inyuguti ya pa irimo hagati mu kiziga kizengurukijwe n'ibara ry'umutuku, iyo nyuguti inyujijwemo umurongo w'umutuku bishatse kuvuga yuko aho kiri nta kinyabiziga cyemerewe kuhagarara.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo icyapa ndangamerekezo, iruhande rwacyo hari ibiti bikikije bizengurutse umuhanda.

Icyapa gifashe ku cyuma gifite ibara ry'umweru n'ubururu cyanditswemo mumagambo agira uti uganda boda twenty five karama bisobanura ko ari umupaka wa uganda mu birometero imbere makumyabiri na bitanu.

Imodoka iri muri kaburimbo, iruhande rwayo hari icyapa cy'umuhanda cya mpande eshatu, iruhande rwacyo hari ubusitani bukikije umuhanda n'ibiti birebire.

Icyuma kirekire kiriho ibyapa bibiri ndangamuhanda biri mu ibara ry'umukara n'umweru, icyo hejuru cyanditseho KN umwanya gatatu umwanya av, icyo munsi cyanditseho KN mwanya gatatu zeru, umwanya st mu ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urakoreshwa abamotara batwaye ipikipiki iruhande rwawo hari inzira agenewe abanyamaguru iruhande rwayo hari akazu kubakishijwe ibyuma kagenewe abategereza imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, inyuma yako hari urukuta rumwe rwubakishijwe amabuye manini anyuranyuyemo sima.

Icyapa cya mpande enye gikoreshwa mu muhanda kirimo ishusho y'ubururu kirimo inyuguti ya pa yandikishijwe mu ibara ry'umweru munsi yayo hari imodoka iri mu bwoko bw'imodoka rusange ishushanyishijwe mui ibara ry'umweru bisobanura yuko imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zemerewe guhagarara aho ngaho.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye ipikipiki iriho umugezi iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru iruhande rwawo hari ubusitani n'ibiti birebire bikikije umuhanda, iruhande rwawo hari icyapa gikozwe mu byuma cy'umuhanda.

Icyapa cya mpande enye kiri mu ibara ry'ubururu, kizengurukijwe n'umuzenguruko wa mpande enye y'ibara ry'umweru, inyuguti irimo hagati yandikishijwe ibara ry'umweru ni inyuguti ya pa risobanuye yuko aho kiri hemerewe guhagararwa n'ikinyabiziga.

Abagabo bambaye impuzankano n'ibisarubeti by'ubururu na bote z'umukara, bahagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi, yubakishijwe inkuta z'umuhondo, ifite imbere icyapa cyamamaza kiri mu nyuguti z'umweru mu irange ry'umukara.

Umuhanda urimo imodoka ku ruhande hari ubusitani burimo ibiti, ku mpande yazo hari inzu z'ubucuruzi n'amapoto maremare y'ibyuma y'amatara y'umuhanda n'umuhanda w'abanyamaguru uri kugendamo abanyamaguru.

Inzu y'ubucuruzi, yubakijwe hejuru amakaro, ikaba ifite inkuta z'umweru n'ibyapa biyiranga aka ari inzu y'ubucuruzi, isa nk icuruza imyenda y'abagabo, ikaba icuruza inkweto z'abagabo, ikaba icuruza imipira y'abagabo, imbere yayo hari imbuga yishashemo amabuye, bakunyurwamo n'abantu.

Inzu nyinshi cyane ziri ahantu hamwe ku murongo, zubatse zikurikije icyerekezo cy'inzu zitari mu manegeka, inzu mo hagati zigiye zifitemo ibiti biteyemo.

Inzu yubakishijwe amabati agezweho aconzwe mu buryo bw'amategura, asa umutuku wijimye, umureko ifite ukozwe mu byuma bifite ibara ry'ikijuju, mu gihe inkuta zayo zifite irange ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri hagati y'amazu hatuwemo n'abantu, iruhande rwawo hakaba hari ruhurura yagenewe kuzajya itwara amazi y'imvura, iruhande rwayo hejuru hakaba hari ubusitani bugiye bushashemo indabyo zigiye zitandukanye n'ibiti bitandukanye.

Inzu y'ikusanyirizo ry'amata yegeranye n'inzu y'ubucuruzi bw'imyenda, imbere yayo hari imbuga yubakishijwe amabuye iparitsemo imodoka hari n'ibiti ku ruhande biteye.

Umumotari uri kuri moto iri muri kaburimbo yangiritse imbere yayo hari urupangu rwubakishijwe amabuye ibyuma bifite ibara ry'umweru birimo ibyatsi.

Umuhanda wubakishijwe amabuye uhagazemo imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye, inyuma yazo hari ipoto rirerire ifashe insinga, iruhande rwazo hari ibiti bizengurutse.

Imodoka y'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari umumotari utwaye ipikipiki, zihagaze imbere y'umuhanda abanyamaguru bambukiramo iruhande rwawo, hari inzira y'abanyamaguru, ikikijwe n'inkingi ntoya zifite irangi ry'umweru n'umutuku.

Umuhanda wubakishijwe amabuye, iruhande rwawo hari akayira k'abanyamaguru, iruhande rwako hari itara rirerire ry'umuhanda, iruhande rwaryo hari inzu zo guturwamo, imbere y'itara ry'umuhanda hari ipoto rirerire cyane yifashishwa mu gutambutsa insinga ziva hamwe zijya ahandi z'amashanyarazi.

Umuhanda w'igitaka urimo uragendwamo nabanyamaguru kuruhande rwawo hari inzuzubucuruzi n'ibiti, hari n'umumotari wambaye inkweto z'umweru ipantaro y'umukara wahagaze kuri moto.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi umugabo utwaye igare imodoka iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru uri kugendwamo n'abanyamaguru iruhande rwawo hari imodoka zihagaze ku ruhande.

Umumotari utwaye umugenzi ku ipikipiki ari mu muhanda urimo ubwoko bw'imodoka bugiye butandukanye, iruhande rw'uwo muhanda hari inzira y'abanyamaguru ikoreshwa n'umuntu, iruhande rwayo hari imodoka zihagaze imbere y'inzu y'ubucuruzi igeretse gatatu.

Inzu igeretse kabiri ifite irangi risa ry'umweru mu muhondo ifite amadirishya n'imiryango kumpande yasizweho irangi ry'ikijuju ifite inkingi zisa ikijuju.

Imodoka ifite irangi ry'umweru, imbere yayo hari imodoka ifite irangi ry'umukara ziri muri kaburimbo, iruhande rwazo hari inzu zubakishijwe inkuta z'ibara ry'umweru n'igipangu kibara ry'umukara, iruhande rwayo hari ibiti bizengurutse umuhanda.

Umugabo uri mu muhanda uri gusunika igare, imbere ye hari imbuga iri mu gipangu cyubakishijwe amabuye ku ruhande ikikijwe n'urukuta rugufi rwubakishijwe amabuye, hejuru hari sima isizwe amabara y'umukara n'umweru.

Umumotari wicaye ku ipikipiki mu muhanda, imbere ye hari amapikipiki atariho abantu, urundi ku ruhande hari abantu bari kugenda mu muhanda ahandi hari inzu z'ubucuruzi.

Icyapa ndangamuhanda kiba gikozwe mu byuma, gifite ibara ry'umweru, umukara, inyuguti zanditse muri icyo cyapa, akaba ari KK mirongo itanu na gatandatu ST.

Umuhanda urimo imodoka, bamotari batwaye abagenzi, imodoka zitwara abagenzi mu buryo rusange, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo indangamerekezo y'umuhanda, uri mu ibara ry'umweru, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru uhagazemo umugabo wambaye umupira n'ipantaro, iruhande rwiwe hari ubusitani buteyemo ibiti.

Imodoka isize irangi ry'umutuku n'umukara, iri muri kaburimbo, imbere yayo ku ruhande hari umumotari, iruhande rw'umuhanda hari ubusitani buteyemo ibiti, imbere yabwo hari amatara maremare y'umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka kuruhande, hari umugabo wambaye ingofero yicyatsi, umupira wicyatsi ufite umufuka w'umweru kumugongo ipantaro y'umukara uri mumuhanda wabanyamaguru kuruhande hari ibiti biteye.

Umuhanda urimo motari utwaye umugenzi kuri moto, iruhande rw'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibiti bikikije umuhanda hari n'amapoto y'amatara y'umuhanda.

Umuhanda uri kugendwamo na moto, imodoka, kaburimbo ku ruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ubisitani burimo ibiti inyuma yabyo hari inzu z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka n'amapikipiki atwaye abagenzi n'imodoka rusange zitwara abagenzi, iruhande rwayo hari amatara maremare akozwe mu byuma y'umuhanda, iruhande rwayo hari inzira z'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibiti bizengurutse umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urakoreshwa n'ikinyabiziga cy'amapine atatu gifite irange ry'ubururu n'umukara, inyuma yacyo hari imodoka y'amapine ane ikiri inyuma, umuhanda urimo urakoshwamo n'abamotari batwaye ipikipiki, iruhande rwawo hari inzira abanyamaguru, iruhande rwayo hari amapironi maremare y'ibyuma ariho amatara amurikira umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uririmo imirongo y'umweru yerekana yuko ari abanyamaguru bemerewe kuhambukira. Iruhande rwawo hari akayira kagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru kagiye gakikijwe n'i imbago z'ibyuma.

Imodoka isizwe irange ry'umweru, ifite ibirahuri by'umukara, amapine y'umukara. Iri mu muhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru. Iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo ibiti birebire bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, ikaba iruhande rwayo irimo ubusitani buteyemo ibiti bigiye bitandukanye, inyuma yabyo hakaba hari ibyapa ndangamerekezo by'umuhanda, hakaba hari n'ibyuma birebire biba bifashe amatara y'umuhanda.

Umuhanda urimo abamotari batwaye moto, imodoka n'abanyonzi batwara abagenzi n'abanyamaguru ku ruhande rw'umuhanda hari amafoto y'amashanyarazi n'icyapa cy'umweru n'umukara, umuhanda ukikijwe n'ibiti n'amatara yo ku muhanda.

Abamotari batwaye abagenzi ku ipikipiki bari mu muhanda wa kaburimbo urimo n'imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwawo hari ubusitani bugiye buteyemo ibiti bigiye bitandukanye.

Imodoka nini y'ubururu ihagaze mu muhanda, iruhande rwayo hari igiti kinini gishinze gifashe insinga z'amashanyarazi, inyuma yacyo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibiti bigiye bizengurutse umuhanda.

Umugabo utwaye igare inyuma ye hari umu motari utwaye ipikipiki bari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru iri gukoreshwamo n'umugabo, iruhande rwayo hari umugabo uhagaze ku igare, iruhande rwayo hari ibiti bigiye bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo n'indabyo buteyemo n'ibiti, iruhande rwabyo hari ibyuma birebire biba bifashe amatara y'umuhanda, iruhande rwabyo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari urukuta rwubakishijwe amabuye na sima.

Umuhanda wa kaburimbo uri gukoreshwa, umumotari utwaye ipikipiki iriho umugenzi, uri gukoreshwa n'umuyonzi wikoreye umuzigo n'imodoka, umuhanda ukikijwe n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urakoreshwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo ibinyabiziga binini byo mu moko y'amakamyo, n'ibinyabiziga bitoya by'amapine ane, iruhande rwabyo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibyapa by'umuhanda.

Imodoka zirimo ziragenda inyuma yazo hari umunyonzi wikoreye ameza abajwe mu mbaho, ari muri kaburimbo iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru, hejuru hari ikiraro gifite imbavu zubakishijwe mu byuma n'ikiraro cyubakishijwe na sima.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwayo hari inzira abanyamaguru, imbere yayo hari akazu kubakishijwe ibyuma, kagenewe abategereje imodoka zitwara abantu rusange, nyuma yako hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda uri gukoreshwa n'umumotari utwaye ipikipiki, iruhande rwe hari abanyamaguru bahagaze mu muhanda wabanyamaguru, inyuma yabo hari igare rihagaze, mu muhanda na none hahagazemo ikinyabiziga cy'amapine atatu gifite irangi ry'ubururu gitwikirije ibyuma bifite irangi ry'ubururu, iruhande rwacyo harimo imodoka ifite ibara ry'ikijuju iri kuzamuka.

Umumotari utwaye umugenzi kuri moto mu muhanda, harimo n'imodoka iruhande rw'umuhanda hari umuhanda w'abanyamaguru iruhande rwawo hari urukuta rwubakishijwe amabuye.

Umuhanda uri gukoreshwamo imodoka, abamotari batwaye amapikipiki ariho abagenzi, kandi hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo yahagaze mu muhanda, wagenewe abanyamaguru gutegeramo imodoka itwara abantu mu buryo rusange, iruhande rwaho hari umuhanda wagenewe abanyamaguru.

Abamotari batwaye moto mu muhanda urimo n'imodoka iruhande rwawo ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru iruhande rwayo hari ibiti bikikije umuhanda.

Umumotari utwaye umuzigo ku ipikipiki ari kunyura mu muhanda kugenda mumodoka z'ubwoko bugiye butandukanye ageza abanyamaguru bambukira n'abanyamaguru barimo barambuka imbere y'uwo muhanda hari ikiraro cyubakishijwe amabuye na sima.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo icagaguye y'ibara ry'umuhondo, iruhande rwawo hari ubusitani bw'umuhanda buteyemo igiti, iruhande rwawo hari ibiti binini bizengurutse umuhanda.

Umuhanda usizwemo irangi ryerekana aho imodoka zinyura mu byerekezo bigiye bitandukanye byo gukata, aho ku ruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hari ubusitani buteyemo ibiti, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru iri gukoreshwa n'umuntu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari batwaye abagenzi, imodoka z'ibikamyo, iruhande rwayo, hari umuhanda w'abanyamaguru ukikijwe n'ubusitani burimo indabyo, iruhande rwabyo hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Ikiraro cyubakishijwe sima gifite imbago z'ibyuma, gifite inkingi enye zifashe hasi ku muhanda wa kaburimbo urimo urakoreshwa n'abamotari batwaye abagenzi kupikipiki, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru irimo irakoreshwa n'umunyamaguru, iruhande rwawo hari ibiti birebire bikikije umuhanda.

Imodoka iri muri kaburimbo imbere yayo hamotari itwaye umugenzipikipiki muri kaburimbo iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru iri gukoreshwamo n'abantu iruhande rwayo hari akazu kagenewe gutegerezwamo imodoka zitwara abantu mu buryo rusange n'abanyamaguru iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo ibiti n'ibyapa by'umuhanda bikikije umuhanda.

Imodoka y'umweru n'umukara, iri muri kaburimbo iruhande rwayo hari icyapa cy'umuhanda iruhande rwacyo hari inzira y'abanyamaguru iri kugendwamo n'abantu, iruhande rwayo hari ubusitani buteyemo ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendwamo n'imodoka, abamotari batwaye amapakipiki ariho abagenzi iruhande rwabo hari ubusitani buteyemo ibiti n'ibyuma birebire bifasha amatara y'umuhanda, iruhande rwabyo hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda w'igitaka, iruhande rwawo hari ibipangu bigiye bitandukanye, harimo ibyubakishijwe amatafari ahiye, harimo ibyubakishijwe n'ibiti byahuye bigakora ikintu kimeze nk'igihuru.

Abamotari bari ku ipikipiki batwaye abagenzi barahagaze mu muhanda, bageze aho abanyamaguru bambukira umuhanda, iruhande rwawo hari inzu yubakishijwe inkuta zifite irangi ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uririmo amapikipiki, imodoka iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibiti bikikije umuhanda ku muhanda hejuru hari ikiraro gifite inkingi z'ibyuma.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendwamo n'umumotari utwaye moto, iruhande rwawo hari umuhanda w'abanyamaguru urimo abanyamaguru, ku ruhande rwabo hari umumotari uhagaze kuri moto itari kugenda.

Umuhanda urimo abamotari batwaye moto ziriho abagenzi n'imodoka bijya mu cyerekezo kimwe iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo ibiti n'amapoto y'ibyuma maremare y'ibura ry'umweru namatara y'umuhanda.

Igikamyo gifite amabara y'ubururu, umweru n'umukara, kiri mu muhanda urimo moto n'imodoka, iruhande rwawo ukikijwe n'umuhanda w'abanyamaguru n'ubusitani burimo indabyo n'ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ibiti n'ubusitani bikikije umuhanda, nyuma yabyo hari igipangu cyubakishijwe n'urukuta rufite irangi ry'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urakoreshwa nk'umumotari, utwaye ipikipiki iruhande rw'uwo muhanda hari abanyamaguru bari gukoresha igice kimwe cy'uwo muhanda, iruhande rwawo hari ubusitani buteyemo ibiti bizengurutse bikikije uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo uranyuramo imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye, uri kunyuramo n'abagabo batwaye igare, iruhande rwawo hari umuhanda wagenewe abanyamaguru uri kwifashishwa n'abagore babiri bari ku wugenderamo, iruhande rwawo hari ibyuma birebire biba bifashe amatara y'umuhanda.

Imodoka irahagaze imbere yayo hari inzira abanyamaguru bambukiramo, iruhande rwayo hari inzira y'abanyamaguru ihagazemo abanyamaguru, imbere yayo ni kaburimbo umumotari atwaye umugenzi ku ipikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo ufitemo amarangi y'umweru acagaguye, bisobanuye aho abanyamaguru bambukira, ku ruhande rwawo hari umuhanda ukoreshwa n'abanyamaguru, urimo aranakoreshwa n'umuntu, iruhande rwayo hari ibiti bigiye bikoze igihuru biwukikije.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru, iruhande rwayo hari ubusitani buzamutseho, harimo ibiti biteyemo hari inzu hasi yubakishijwe amabuye avanze na sima.

Umumotari utwaye umugenzi kuri moto muri kaburimbo iruhande rwe hari ubusitani burimo ibiti n'indabyo iruhande rwabyo hari umuhanda w'abanyamaguru iruhande rwabo hari urukuta rwubakishijwe amabuye.

Umumotari utwaye ipikipiki mu muhanda kaburimbo, iruhande rwe hari imodoka, iruhande rwazo hari umuhanda w'abanyamaguru, iruhande rwazo hari ubusitani buteyemo ibiti birebire bikikije umuhanda.

Imodoka nini ifite ibara ry'ubururu, iri mu muhanda, iruhande rwayo hari aba motari batwaye abagenzi ku ipikipiki, iruhande rwawo hari ubusitani mo hagati, mu muhanda hateyemo ibiti, iruhande rwabyo hari ibiti bizengurutse umuhanda.

Umuhanda kaburimbo urimo urakoreshwa nu mumotari utwaye ipikipiki, imbere ye hari imodoka iriri mu bwoko bw'ikamyo y'ibara ry'umweru n'umukara , iruhande rw'umuhanda hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hakaba hari akazu kubakishijwe ibyuma kagenewe abanyamaguru mu gihe baba bategereje imodoka itwara abantu mu buryo rusange.

Moto n'imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'umuhanda w'abanyamaguru, urimo ubusitani n'indabyo n'umugabo uri kugenda, uri kuri terefone.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'imodoka, iruhande rwawo hari imbago z'umuhanda z'ibyuma zikikije umuhanda w'abanyamaguru, uri kugendwamo n'umugabo wambaye ishati n'ipantaro.